Ndi kubona umurima uhinzemo ibirayi byiza cyane, harimo ibiti birebire, n'ubwatsi bwiza cyane.

Ndikubona igitoki kinini cyane cyeze hafi y'urugo, inyuma yaho hari umurima w'ibigori.

Ndikubona umugabo umuririma wicyayi, afite n'igitebo mu mugongo ari gushiramo icyayi ari gusarura.

izi nivoka ziri mu giti iyo zeze zihindukaga umukara, n'iyo bazitaze zigasha zihindukaga umukara, ziraryohaha cyane.

Aya matunda, iyo yeze, agira uruhu rw’umutuku. Mo imbere, agira imbuto z’umukara n’umutobe w’umuhondo.

Ibi bijumba, n'ubwo biba bifite uruhu rw'umutuku, ariko mu nda yabyo biba bisa n'umuhondo. Biraryoha cyane

Iyi miteja bayitekaga mu mwanya w'imboga, bakayiteka baziyunaguye, zibaga nziza iyo zisa n'icyatsi kibisi.

Izi nyamanswa ziri mu bwoko bw'inyoni bazita inuma, ziba mu ishyamba, no mu biti bitandukanye, zigendera ku butaka rimwe na rimwe, ziri gushaka ibyokurya.